Imbangukiragutabara cyangwa se ambulance wo mu bwoko bwa toyota, bigaragara ko hari ahantu hateraniye abantu benshi, hakaba havutse ikibazo ikaba ije gutabara uwo murwayi kugira ngo imugeze kwa muganga.

Inshinge zifashishwa bakingira abantu ndetse n'umuti wabugenewe bifashisha barimo bakingira abarwayi.

Abagabo batatu ndetse n'abagore batatu bigaragara ko bari ku ruvugiro cyangwa se kuri siteje mu rurimi rw'Icyongereza. Bigaragara ko hari ibyo bari kuganiraho, ariko bose bakaba bambaye udupfukamunwa, bigaragara ko hashobora kuba hari icyorezo kirimo kwirindwa hagati yabo.

Abana bakiri bato barimo gukaraba intoki ku mugezi ari benshi ariko hakaba hari n'ibase iteretse ku mugezi bigaragara ko abana bashobora kuba bari gukarabiramo bakandaza ayo mazi, hakaba ari n'abandi bigaragara ko bategereje gukarabira muri ayo mazi menshi kuri iryo vomo.

Umujyanama w'ubuzima uri gupima abana batoya ibiro ndetse abo bana bakaba bari kumwe n'ababyeyi babo, buri mwana akaba agenda ashyirwa ku munzani upima ibiro by'abana bato ngo barebe ko atari mu mirire mibi.

Umwana uri kunywera amazi kuri robine bigaragara ko ari robine ishaje, inyuma y'aho hakaba hari abandi n'abo bvategereje kunywa ayo mazi.

Umukobwa uri kudahira amazi mu ndobo, ayakura mu mugezi utemba agenda ayashyira mu ndobo, ayo mazi akaba ari kugenda ashokera ku gishishwa cy'insina, akaba yari ari kugenda akura, iruhande rwe hakaba hari umwana uri kumwitegereza.

Umwana mutoya bigaragara ko ari munsi y'imyaka itanu, akaba yashyizwe ku munzani wabugenewe kugira ngo barebe imikurire y'uwo mwana by'umwihariko kugira ngo barebe ibiro uyu mwana afite.

Ishusho igaragaza umunsi wa Afurika muri rusange, guteza imbere serivisi z'ubuzima bwabarwayi, mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri.

Ivomo ryiza riteye imbere, rishimishije, rifite isuku bigaragara ko hari abaturage benshi batondesheje umurongo amajerekani, baje kuvoma kuri ayo mazi meza ndetse muri bo harimo n'abamagare kugira ngo babashe gutwara amazi.

Abagabo ndetse n'abagore, bigaragara ko bari mu nama, aho buri muntu imbere ye hari izina rye, ryanditse ku rupapuro. Ndetse buri wese imbere ye hakaba hari amazi yo kunywa. Nk'uko bigaragara, buri wese arangamiye uri kuvugira imbere ngo yumve, icyo abagezaho.

Umuntu bigaragara ko ari kuvoma ku ivomo riri ahantu hari ibyatsi byinshi, ariko bigaragara ko ari ivomo ryubakiye neza, afite ijerekani ndetse n'akandi kajerekani gatoya, bigaragara ko yishimiye ahantu ari kuvomera.

Umwarimu uri kumwe n'abanyeshuri benshi, benshi muribo bakaba bambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru, buri wese yahawe urupapuro rugaragara ko ari igikorwa cyabaye buri mwana bakaba bamuhaye impapuro byanditseho ngo abashe gusobanukirwa.

Umuganga uri gupima umuvuduko w'amaraso umusaza ubona ko akuze, akaba yarambitse akaboko ke ku meza, hakaba hari n'abandi baganga bari gufatanya mu gupima abandi umuvuduko w'amaraso.

Abana babiri b'abakobwa, umwe muri bo akenyeye igitenge, bateruranye indobo bigaragara ko iremereye, irimo amazi bavuye kuvoma ku mugezi. Inyuma yabo hakaba hari inzu ndetse n'imisozi iteyeho ibyatsi.

Umwana w'umuhungu wambaye ikabutura itukura, akaba ari kuvomesha indobo ku mugezi, akaba yateze n'intoki kuri robine ari kunywesha amazi intoki n'ubwo atari umuco mwiza kunywesha amazi intoki kuri robine.

Umukobwa uri kumwe n'umuganga kwa muganga. Akaba ari umuganga w'umugore wambaye impuzankano y'ibara ry'ubururu n'agapfukamunwa k'ubururu, inyuma ye hakaba hari undi muganga, mu bigaragara arimo gupima umuvuduko w'amaraso umurwayi akoresheje igipimo cyabugenewe.

Abajyanama b'ubuzima benshi bari mu cyumba cy'inama bigaragara ko bagiye mu mahugurwa abo buri wese afite ikayi n'ikaramu bikaba bigaragara ko bambaye impuzankano.

Igishushanyo kigaragaza ibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ko bishobora kwitabwaho uburyo bwose bushobora gukorwa kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza bwo mu mutwe, banagaragaza ko buri wese afite uburenganzira bwo kugira ubuzima bwo mu mutwe bwe.

Nyakubahwa madamu Jeannette Kagame, akaba ari kuri steji, imbere hakaba hari mikoro, arimo aravuga ibijyanye n'ubuzima buke bwo mu buto.

Umugabo bigaragara yuko asa nabi, yambaye imyenda yacitse ndetse ibigaragara uyu muntu ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe kuko ari kugenda atoragura ibintu bitandukanye.

Aba mama bane bigaragara yuko baje gusura umugabo ufite ubarwayi ku maguru, bakaba baje kumuvura aho babiri muri bo bafite aho bari kugenda bandika ibyo barimo babona bakaba bambaye n'amakarita y'akazi mu ijosi.

Umuganga, bigaragara ko arimo kuvura umurwayi ufite ikibazo cy'amenyo, ibi bikaba biri gukorwa n'uwambaye impuzangano y'umweru, iruhande rwe hakaba hari undi wambaye ga mu ntoki, wambaye impuzankano y'ibara ry'ubururu, bakaba bari gusuzuma ikibazo amenyo y'umurwayi afite.

Kwa muganga, hakaba hari igitanda umurwayi aryamaho n'ibikoresho bifashisha bamucanaho, bigaragara ko ashobora kuba ari gukurwa amenyo cyangwa hakaba hari ubundi burwayi aba avuza, kuko hari na ekara bifashisha bareba ku bindi bice by'umubiri bitagaragara inyuma.

Umuganga w'umugore urimo kureba mu kanwa k'umurwayi, bigaragara ko arimo kureba ikibazo yaba afite mu menyo ye, uwo murwayi ni umurwayi w'umumama, bigaragara ko ari mu isuzumiro imbere ya muganga.

Umugabo wambaye indorerwamo z'amaso, ufite iherena mu izuru, useka bigaragra ko ari kwerekana ukuntu amenyo ye asa neza, asa nk'urubogobogo kugira ngo buri wese bimubere isomo ryo kugira amenyo asa neza gutyo.

Umugabo ari gukoza urudodo mu menyo bigaragara ko hari imyanda ashobora kuba ari gukura mu menyo ye, urwo rudodo rukaba rufite ibara ry'umweru akaba ari gukoresha yikura iyo myanda mu menyo,

Umwana muto wambaye agapfukamunwa ndetse n'abaganga babiri bigaragara ko barimo kureba ikibazo afite amenyo ye bishoboka yuko ashobora kuba yaje kwivuza afite ikibazo mu mizi.

Umuganga w'umugore wambaye umwenda w'akazi w'ubururu, ari kuganiriza umurwayi waje kwivuza, bigaragara ko umurwayi yorohewe, kuko arimo araseka na muganga arimo ku mu humuriza.

Umumama ufite igikapu mu ntoki akaba ari kumwe n'undi mugabo, akaba ari kumwigisha ku gahinda nyuma yuko yari yarahuyeni ikibazo cy'imvune, akaba ari gukoresha akuma cyangwa se akantu kameze nka agatanda gafasha umurwayi kongera kwiga kugenda neza kugira yongere asubire mu buzima busanzwe.

Umukecuru uri kumwe n'abana be n'abuzukuru be, abuzukuru be bishimiye ko bari kumwe na nyirakuru, bigaragara ko bose baseka ubwo bari kumwe n'umuryango.

Umusaza uteruye umwana, bigaragara ko barimo gukina, bishoboka ko wenda ari umwuzukuru we, uwo mwana muto akaba afite agakinisho k'agapupe, bikaba bigaragara yuko arimo kuganira na sekuru.

Abakecuru babiri bambaye imyitero ndetse n'imipira ibiri y'umutuku isa, bisa n'aho bivuye mu matora y'umukuru w'igihugu kandi akaba ari abakecuru bakuze, inyuma yabo hakaba hari abandi bantu bambaye impuzangano y'imipira y'umutuku ndetse n'umukara.

Umurwayi uri mu bitaro uryamye ku gitanda, iruhande rwe hakaba hahagaze muganga urimo kumwitaho, ndetse hakaba hari n'igikoresho akoresha uko umutima we utera, gifite ibara ry'umweru.

abasaza babiri bigaragara ko bakuze bakaba bari kugenda ahantu mu muhanda bafatanye ku rutugu bishimye bahuje urugwiro barimo kuganira bigaragara ko buri wese ameze neza nta kibazo bishimanye.

Umuganga wambaye impuzangano y'umweru nkuko bigaragara yambaye agapfukamunwa ndetse n'umurwayi yambaye agapfukamunwa, akaba ari no kumutera urushinge ku kaboko nkuko bigaragara, umurwayi akaba yagize ubwoba.

Kwa muganga, nkuko bigaragara akaba ari materinite cyangwa se inzu y'ababyeyi, kuko hari abaganga bari ahakunze kwakirirwa abarwayi mbere y'uko bakomeza bakinjira ahabugenewe mo imbere kwa muganga.

Aho bagurira imiti cyangwa se farumasi, bigaragara ko yitwa peniel nk'uko byanditseho, iyo farumasi ikaba ikorana na mediplan, Rama ndetse na miss ur.

Umuganga wambaye impuzankano y'akazi ifite ibara ry'ubururu bigaragara ko ari gupima, umurwayi mu kaboko, bishoboka ko ari kumupima umuvuduko w'amaraso, muganga akaba arimo uvura umurwayi ariko anamuganiriza.

Ikigo nderabuzima cya Matyazo, bigaragara ko ari ikigo nderabuzima cyegereye kaburimbo, hakaba hagaragara ikigega cy'amazi ndetse n'abarwayi bagera kuri batatu bavuye kwivuriza muri icyo kigo nderabuzima cya Matyazo.

Ikigo Nderabuzima cya Gishweru bigaragara ko hari umuganga uhakora. ndetse n'abarwayi baje kwivuza, akaba Ikigo Nderabuzima kiriho isuku ndetse na kizimyamoto yo kwifashisha igihe habaye inkongi y'umuriro.

Ikigo nderabuzima cyubatse neza gifite isuku, akaba ari Ikigo nderabuzima cya Shagasha nk'uko byanditseho, bikaba bigaragara ko ari ikigonderabuzima cyubatswe neza kandi gifite isuku, hakaba hari n'abarwayi babiri bakuze ndetse n'abana babo babiri, bigaragaza ko baje kwivuza, hakaba hagaragara ko hari n'igikoresho cyabugenewe gushyirwamo umwanda, mu rwego rwo kubungabunga isuku.

Umunyeshuri uri kumwe na mwarimu we, akaba afite igishushanyo kiriho amenyo cyangwa se ikimenyetso gisimbura amenyo y'umuntu, mwarimu akaba afite uburoso bw'amenyo arimo kumwigisha uko umuntu yakoza amenyo neza.

Kwa muganga hakaba hari ibitanda abarwayi baryamaho, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa barimo kuvura abarwayi, nta gitanda kirimo umurwayi ariko bigaragara ko ibi bitanda byamenyereye kuryamwaho n'abarwayi baje...

Umukobwa uri muri siporo bigaragara ko yicaye ku musambi ufite ibara ry'ubururu, ikigaragara akaba arimo ararambura umugongo ndetse n'ibirenge bye akaba arimo arabirambura neza.

Umwana uryamye bigaragara ko aho hantu aryamye ari kwa muganga, ariko akaba yagize ikibazo ku kirenge aho bigaragara ko bari kumushyiriraho bande ku kirenge mu rwego rwo kumuha ubufasha. Biragaragara ko aho aryamye rwose ari kwa muganga.

Umuganga uri kuvura umurwayi bigaragara ko afite ikibazo mu ihiniro ry'ukoboko, aho muganga ari kumukanda kugira ngo arebe ahari ikibazo neza, uwo muganga akaba yambaye impuzankano y'abaganga, ifite ibara ry'umweru.

Umuganga bigaragara ko ari kunanura umurwayi ku maguru, aho agenda akora ku bice bitandukanye by'umurwayi arimo amunanura, uwo murwayi akaba yamwubitse inda arimo ananura mu ntege ndetse no ku bice by'amaguru ahagana hepfo.

Umuganga wambaye impuzangano y'ubururu ndetse n'ikarita yakazi mu ijosi, akaba arimo kurambura amaguru y'umurwayi wikoze mu maguru, umurwayi akaba yamuryamishije ku gitanda, arimo arambura akaguru ke ngo arebe ikibazo yaba afite abashe kumugorora.

Imbuto zitandukanye harimo amarongi, imineke, amatunda ndetse n'inanasi, hakaba hari n'imidari itatu, bigaragarara ko ari imidari y'ishimwe ndetse n'ibinini.

Muganga wambaye impuzankano y'ubururu, bigaragara ko arimo kuvura umurwayi yagize ikibazo ku kaguru akaba ari kumushyiraho igipfuko bishoboka ko yaba ari igisebe ahafite.

Imbago bigaragara ko ari iy'umuntu wagize ikibazo cyo kuvunika mu kaguru, akaba ari yo yifashisha arimo agenda, akaba ari imbago ikoze mu cyuma.

Umugabo wambaye ishati itukura bigaragara ko ari mu nama n'abandi babiri. Kuri mudasobwa bari mu nama onulayini niho barimo kuganirira.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, akaba yambaye imyenda ifite ibara ry'umukara ndetse n'isaha ku kaboko k'ibumoso, akaba arimo arambura amaguru, bigaragara agamije kugira ngo imitsi y'amaguru ye arambuke.

Umuganga uri gupima umwana umuriro akaba ari umwana wajyanye na mama we kwa muganga bigaragara ko ari mama we yambaye agapfukamunwa ndetse n'umuganga bigaragara ko hari indwara zandurira mu buhumekero barimo kwirinda.

Umurwayi upfutse munsi y'ivi bigaragara ko ashobora kuba yagize ikibazo cyo kugira igisebe, bakaba bamushyiriyeho igipfuko, akaba yunamye arimo kuhitegereza.

Icupa rifite ibara ry'ubururu ririmo amavuta y'uruhu, bigaragara ko ari amavuta asigwa ku ruhu rw'umuntu.

Amaronji bigaragara ko barimo gukoramo umutobe, aho ari amaronji yogeje asa neza ateretse ku meza ariho igitambaro bigaragara ko amwe yakozwemo umutobe, andi ari ayo kuribwa nkuko birimo bigaragara ku gishushanyo.

Abantu bagiye gusura umugezi bigaragara ko ari umugezi utemba mu misozi rwagati utangaje, abantu bakaba baje kuwusura bigaragara ko bashobora kuba baturutse kure kuko buri wese afite n'igikapu.